Amashati ari mu ibara ry'umukara gusa amashati ari mu ibara ry'umweru gusa n'amashati ari mu ibara ryumweru ryiganje harimo n'umukara muke amashati ari mu mukara wiganje harimo n'umweru muke yose amanitse hamwe.

Igikapu kidozwe mu bitenge cyegeranye n’igitebo, kirimo inyanya z’umutuku, ibase isa icyatsi, irimo imineke y’umuhondo mitoya, hari ibasi y’ubururu irimo amashaza mabisi asa icyatsi, ateretse ku kukomeza hari umufuka urimo ifu, hari n’undi mufuka urimo ibishyimbo bisa umutuku.

Ikarita yo kwivurizaho iri mu ibara ry'ubururu irambitse ahantu hari mu ibara ry'ubururu, hari ifoto y'umwana usa igikara, hariho imyirondoro ye akarere umurenge akagari, hakaba hariho n'imyirondoro y'umukuru w'umuryango, hakaba hariho na kashe na sinyatire.